Amafumbire yi'mvaruganda atuma umusaruro wiyongera, tuyakoreshe ku bwinshi, kugira ngo umusaruro wacu wiyongere bityo tubone amafaranga atubutse.

Dushyire ifumbire mu mirima yacu, dushyiremo ifumbire ry'imborera ndetse n'iry'imvaruganda, kugira ngo abanyarwanda bagire umusaruro uhagije, kugira ngo babone n'amafaranga atubutse atuma bakemura ibibazo byacu.

Amafumbire yimvaruganda kuyakoresha ni byiza kuko byongera umusaruro w'abanyarwanda, ndetse n'umusaruro rw'abanyamahanga. Ni byiza gukoresha amafumbire mvaruganda ndetse tugakoresha n'imiti ku bihingwa kugira ngo bitangizwa n'udukoko.

Dukoreshe imiti duhungira imyaka yacu kandi dukoreshe imiti ndetse n'amafumbire mvaruganda kugira ngo umusaruro wacu uzaze kurushaho kuboneka ari mwinshi uduha amafaranga atubutse.

Guhungira imyaka ni byiza bituma udusimba dupfa, bituma umusaruro uba mwinshi, bituma tugera ku musaruro mwiza ushimishije, bityo tukabona n' amafaranga adushimishije, tukikenura mu ngo zacu ndetse n' igihugu cacu.

Dushyire amafumbire mvaruganda mu mirima yacu bityo bizatuma umusaruro wacu wiyongera, ibyo bitume tuzamura n'ubukungu bw'ingo zacu ndetse n'ubukungu bw'igihugu cyacu muri rusange.

Imiti yo mu myaka tugomba kuyishaka ku bwinshi, ndetse tukagira n'amafumbire y'imvaruganda, kugira ngo imyaka yacu irusheho kuba myiza, ndetse ijye iduha amafaranga atubutse.

Kuko ibihingwa byacu dushyiramo amafumbire y'imvaruganda, dushyiramo imiti yica udusimba kugira ngo tugire umusaruro ushimishije tugire ubukire burambye.

Ikiribwa kifi ni kiza cyane tujye turya ifi kenshi, igihe nta bushobozi dufite tubushake cyangwa tujye dukoresha inda kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bwacu.

Abantu bakunda amafi, ni ikiriribwa cyiza cyane, iyo giherekejwe n'ibindi byo kurya nk'ifiriti cyangwa se igitoki usanga byarushijeho kuryoha, abantu bajye bayakunda cyane.

Ikiribwa cy'amafi ni ikiribwa cyiza cyane, dukwiye kukigaburira abana cyane, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakure mu bwenge no mu gihagararo, bakure bashimwa n'Imana n'abantu.

Amafi araryoha cyane, abantu bayarya bagira ubuzima bwiza, ujye uyakunda uyakundishe n'abandi, kandi umuntu ugusuye ujye umwakiriza ifi.

Amafi jye ndagakunda cyane, kuko amafi aryoha, amerera neza abayabona, kandi atunga imibiri yacu neza, ni byiza yuko turya kenshi amafi iyo tuyabona.

Tujye tunywa amasosi menshi kugira ngo ubuzima bwacu bwiyubake, kuko isosi ni nziza ku buzima bwa muntu, kandi ni byiza kuziha abana kugira ngo na bo bakure neza.

Ikiribwa cy'ifi ni ikiribwa kiryoha cyane, tujye tuzirya kandi tuzishake kugira ngo abana ndetse n'abakuru bagire ubuzima butoshye.

Amafi ni meza cyane tuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibiyaga tubyiteho ndetse n'imigezi, kugira ngo tuzajye tubona amafi mu rugero rwiza kandi tudahenzwe cyane.

Tujye turya amafi, kuko'amafi Ni meza, ni ikiribwa cyiza cyane kigirira abantu benshi akamaro, gituma tugira ubwenge, gituma abana bacu bagira ubwenge, muze tujye tuzigura kenshi.

Amafi ni ikiribwa cyiza cyane, tujye tukirya kenshi ariko igihe nta bushobozi dufite tujye turya amafi matoya, kuko nayo araboneka, ni byiza ko tuyabona.

Tworore amafi azatuma tubaho neza, azatuma tumenya ubwenge, amafi azatuma abana bacu bagira igihagararo kizima. Tujye dukunda amafi kandi tuyagurire n'abandi.

Tujye turoba amafi ari uko tubifitiye uburenganzira. Ntabwo byemewe kujya kuroba tutabiherewe uburenganzira, kuko byangiza ubukungu bw'igihugu cyacu. Twubahiririze gahunda za Leta.

Amashu ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi njye ndayakunda cyane kuko araryoha kandi atuma umubiri wiyubaka neza ndetse bigatuma umubiri ugubwa neza kandi agatunga no munda vurema.

Ikidodo kiraryoha cyane , tujye dukunda kurya ibidudoki cyangwa se ibishayote, dore ko abagore batwite bashishikarizwa kubirya cyane, kugira ngo abana bajye bagira aho baba heza.

Intama ni amatungo meza cyane kuko aduha budodo, ubudodo tukabukuramo imyenda twambara, niyo mpamvu dukwiye kubungabunga ubworozi bw'intama, tukabu bungabunga tubushakira ubwatsi buhagije ndetse n'ibindi byo kurya bihagije.

Ni byiza gukunda ibirayi, ibirayi byoroshya mu nda, irarayi iyo tubiriye tubyuka dufite imbaraga, kandi bituma umuntu abyibuha, ni byiza ko dukunda igihingwa cy'ibirayi, igihingwa cy'ibirayi tugishishikarize nabandi.

Ibidodoki cyangwa se ibishayote ni imboga ziryoha cyane, kandi zituma ugubwa neza mu nda, ni byiza kuzikoresha kenshi.

Amashuri agira ibibuga byo gukiniramo, tuje tureba mu bibuga ko ntabintu byakwangiza abana birimo pe. Abana bajye bakinira mu bwisanzure no m'umutekano wabo.

ibiti ni byiza n'utema kimwe ujye utera bibiri, intusi za rweru cyangwa semideni, zituma twivura cyane cyane imbaraga n'ubuhumekero, intusi za rweru tuziteho cyane.

Kuraza imirima byongera ubudahangarwa bw'ubutaka. Ndetse bukongera intungamubiri mu butaka. Muze tujye turaza imirima yacu, kugira ngo twongeremo intungamubiri. Bityo mu mwaka ukurikiraho tuzahinge dusarure byinshi.

Umuhanda w'ubitaka tujye tuwugendamo neza kugira ngo inzoka zitaturuma, kugira ngo ubumara butatwica. Ikindi tujye tugendamo twambaye inkweto bityo tuzabungabunga ubuzima bwacu.

Guhinga mumitabo biragora cyane, kuko biba bisaba imbaraga nyinshi, ukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ugeze isuka, aho umutabo utangiriye.

Mu bidukikije harimo: ibiti, imisozi, imigezi, ibiraro, amazu. Harimo inyamaswazo mu gasozi, izo mu rugo. Mu nyamaswa zo mu rugo harimo: ingurube, ihene, inka, harimo byinshi.

Amashu iyo atabungabunzwe neza arapfa, ugasanga uwayahinze afite igihombo gikomeye, tugishe inama abajyanama bajyanye n'ubuhinzi kugira ngo babashe kudusobanurira kwita ku mashu yacu.

Tujye duhinga imboga nyinshi tuzigurishe tubone amafaranga, ibyo dukeneye mu rugo tubibone ku bwinshi, ikindi tuje dusagura n'izo kurya mu rugo kugira ngo abana bacu bagire ubuzima bwiza.

Insina ni igihingwa cya komotse muri Aziya, gikwirakwira mu isi yose kigera no mu Rwanda, insina rero zera ibitoki by'ubwoko bwinshi: hari ibyo kurya dutetse byitwa incakara, impundikazi ndetse hari n'ibyo dukuramo imineke: mbogoya, goromisheri, kamaramasenge.

Mu bihingwa dusangamo ibihingwa ngandurarugo n'ibihingwa ngengabukungu, twibanda cyane cyane ku bihingwa ngandurarugo kuko ni ibihingwa bidutabara vuba mu gihe ngengabukungu dutegereza igihe kinini kugira ngo tubashe kubona umusaruro wabyo.

Amafumbire y' imborera afumbira ibihingwa byacu tujya tuyashakisha tuyabungabunge noneho tugafumbize ibihingwa byacu bituma nabyo umusaruro wiyongera bikaduha amafaranga.

Abaturage bahinga kijyambere, kandi bagasarura bagahunika mu bigega cyangwa se mu makusanyirizo mu bigega bya rusange, ugasanga umusaruro wabo uratubutse koko.

Duhinge, tworore, duhinge kijyambere, kugira ngo tuzajye tugira umusaruro utubutse, ubutaka burumbuka akenshi usanga busa n' umukara, igihe dufite ubutaka butarumbuka tubushakire amafumbire mvaruganda.

Iwacu duhinga ibihingwa ngandurarugo, tugahinga ibihingwa ngengabukungu, cyane cyane twibanda ku bihingwa ngandurarugo kuko nibyo bidutabara vuba, tubijyana mu masoko tugura ibyo dukeneye.

Igihingwa cy'amateke tugishishikariza abanyarwanda, kuko amateke nubwo akomera, uwayariye aba akomeye pe, nimucyo duhinge amateke iwacu, kugira ngo tuzamure ubukungu bw'igihugu cyacu.

Mu mirambi ya Kigali abantu iyo bahaganirira usanga baguwe neza, baricara bakaganira bareba ibibaya, bareba imisozi, ukabona bibereye ijisho. Ni byiza ko dutemberana n'inshuti tukagenda tuganira, twitegereza ibyaremwe, cyane cyane mu Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi.

Mu bihingwa ngengabukungu harimo: icyayi harimo ikawa, harimo ibisheke, harimo ibireti, ibyo byose turabikoresha kugira ngo tubashe kubona amafaranga, cyane cyane amafaranga ya mavamahanga yitwa amadovize.

Ibihingwa ngandura rugo, ibihingwa ngengabukungu ni byiza ko tubigera iwacu, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bw''iwacu mu ngo, ndetse n'ubw'abana bacu cyangwa se n'ubw'abavandimwe bacu.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane ni igihingwa gikundwa cyane kiraryoha kandi gitekwa mu buryo bwose kukigaburira abana ni byiza birimo intungamubiri nyinshi.

Amashu rero nayo aba ari meza, atera ubuzima bwiza, ni umukunzi cyane w'igifu, iyo tuyariye igifu cyacu kigubwa neza ugasanga igogora rigenze neza tujye dukunda kuyagura.

Imbuto z'amavoka, bimbuto nziza cyane dukwiye kuzirya kenshi, tukazirya buri munsi, kuko ni imbuto zivura indwara nyinshi kandi ziturinda n'uburwayi bwinshi.

Amavoka ni imbuto nziza dukwiye kugabura ku igaburo ryacu rya buri munsi, tujye tuzikunda kuko zituma umuntu akomera ,zikatunda indwara nyinshi.

Ni byiza gutura ahantu hari ibiti, gukikiza ibiti amazu yacu biyarinda kugurukanwa n'umuyaga kandi usanga bigaragara neza, ahantu hari ibiti ubitera n'ubusitani bwiza.

Urubuto rw'igifenesi ni rwiza cyane, ruraryoha cyane, kandi ni byiza ko dukoresha ingufu ku bwinshi, kuko zirinda indwara, tujye tuzirya kenshi kugira ubuzima bwacu bugende neza.

Umuhinzi ni umuntu ufite akamaro kanini cyane cyane kuko aduha ibyo turya. Igihe cyose uwo ariwe wese akenera ibyo kurya. Abahinzi ni abantu b'ingenzi ku buzima bwacu, tujye tububaha.

Amatunda nayo ari mu byaremwe, kandi imana yahaye abasogokuruza bacu bakera, abantu imana yaremye mbere yabahaye edeni ngo bajye barya imbuto zirimo. Ni yo mpamvu natwe dushishikarizwa kurya imbuto.

Imyumbati ivamo ubugari, iyo uyanitse ukayisekura ukayibetesha ivamo ubugari buryoshye. Waburisha isosi ukumva ntiwabivaho , ni byiza kugira ubugari iwacu.

Imiteja iraryoha imiteja ni imboga rwatsi ni imboga zituruka ku bishyimbo, ibishyimbo bitarakura neza bitanga imiteja, gusa hariho imbuto y'imiteja gusa tujye dukunda imiteja ni myiza.

Igitoki ndagikunda cyane ,kuko ni ibiryo biryoshye ni ibiryo bituma mu nda horoha, ni ibiryo bimerera neza abana . Tuje dukunda igitoki, tugikundishe n'abandi

Ubunyobwa njye ndabukunda cyane. Mbese namwe mwaba mubukunda nka njye? Mubukunde kuko ni ikiribwa cyubaka umubiri, mubishishikarize n'abandi kandi mujye mubugaburira n'abana, kugira ngo bakurane igihagararo cyiza.

Igihingwa cy'inanasi ni cyiza cyane. Tujye tugikunda igihingwa cy'inanasi, tugikunde kuko gikungahaye mu isukari. Gikungahayemo amavitaminini, tujye dukunda inanasi kugira ngo tuzihe n'abana bacu. Bityo na bo bakurane ubuzima buzira umuze.

Igihingwa cy'amavoka ni igihingwa cyiza cyane, muce tujye tuzirya kenshi kandi tuzigaburire n'abana kuko bituma ubuzima bwacu bugenda neza.

lgihingwa c' ibidodoki cyangwa se shayote ni byiza kubabikunda kuko ni imboga nziza cyane, birakwiye ko tubishishikariza bagenzi bacu byabagubwa neza.

Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane, tujye tubungabunga aho gihingwa, kugira ngo iyo sukari iba ikirimo, tuyibonere ku gihe, kandi tujye tubyitaho.

Igihingwa cy' intoryi, ni igihingwa cyiza cyane ni umuti zivura indwara nyinshi zo mu nda, tuzishishikarize n' abandi, tuzikunde, tuzikundishe n' abacu.

Puwavuro ni igihingwa cyiza, ni indyoshya ndyo, ikundwa cyane zigira amabara atandukanye, ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'icatsi, tujye dukunda puwavuro ni nziza cyane.

Ipapayi ni ikiribwa cyiza cyane. Ni n'urubuto rwifitemo umuti, ivura igifu ndetse na ziriya mbuto zacyo ziravura mu nda zikavura n'inzoka. Tujye tugikoresha kenshi.

Igihingwa ni igihingwa kiza cyane. gihingwa neza cyane mu turere dukonja, kigatunga umusaruro ushimishije. Abantu benshi bakunda ibirayi kuko ni ibiryo byoroshye, kandi bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Inyanya zihingwa ku buryo bwa kijyambere zigira umusaruro mwinshi cyane, zikuba kabiri uko zari zirangana iyo zihinzwe mu buryo busanzwe, dukoreshe kijambere kugira ngo twunguke byinshi.

Imana yatatse ibiremwa byayo, ubona ukuntu yatatse inkoko y'isake! yayitatse neza cyane, Imana iri ihagije muri byose ikora ibitangaza, kuko yo ubwayo ifite imbaraga zirenze iz'abantu.

Puwavuro ni indyoshandyo zikundwa, cyane cyane mu kuziteka mu nyama, inyama zigenda neza. Kimwe no kuziteka mu mboga zisanzwe ntacyo biba bitwaye.

Intoryi ni nziza cyane ziravura. Tujye tuzirya neza tuzirye kenshi, tuzihe n'abana bacu, nubwo bwose batazikunda ariko tuzibashishikarize kuko ni mboga nziza cyane.

Igihingwa cy'indimu ni cyizal kivura inkorora, kikavura anjine kivura indwara nyinshi zo mu buhumekero. Dukunde indimu nubw zumvikana ko zirura, ariko ni nziza cyane ibyiza byazo ntawabirondora ngo abirangize.

Ibishyingo ni byiza, kandi kubihinga dukorera mu budehe cyangwa se mu mashyirahamwe. Bituma tugira umusaruro utubutse, kuko tuba twarakoreye hamwe. Muze dufatanye kuko abishyize hamwe nta kibananira.

Icyayi cy'u Rwanda kirakundwa cyane. Gitumizwa no mu mahanga. Ni yo mpamvu, usanga kiri gusarurwa ku bwinshi. Reka tujye duhinga icyayi, kugira ngo duteze imbere ingo zacu, n'igihugu muri rusange.

Ibihingwa bihinzwe ku murongo byera neza. Dushishikarize abaturarwanda guhinga bya kijyambere, dutera ku mirongo, kandi dusaba abajyanama mu bijyanye n'ubuhinzi batugire inama.

Bahinzi borozi mugaburire amatungo yanyu ibiryo birimo intungamubiri zose, kugira ngo ayo matungo abahe umusaruro ushimishije, bityo mureke kuba muri kuvunikira ubusa. Kandi mukomeze gushishikariza n'abandi kwita ku matungo ubwabo.

Ianasi ni igihingwa cyiza cyane. Ni urubuto rwiza cyane. Tugomba kuzirya kugira ngo tugire isukari ndetse n'amavitamine menshi, arinde uburwayi bwinshi. Tujye dukoresha inanasi kenshi, kugira ngo tugubwe neza.

Imbuto y'ibirayi dusangamo makoroni, dusangamo Kinigi, dusangamo peko, dusangamo n'ibindi . Tujye dukunda ibirayi kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Kamwe mu kamaro k'ibidukikije ni ugutanga umwuka mwiza duhumeka wa ogisijene, kuwuhumeka bifasha ibihaha gukora neza, tubungabunge ibidukikije.

Guhinga mu budehe ni byiza cyane, niyo mpamvu n'ubu dushishikarizwa gukorera mu mashihamwe, kugira ngo umusaruro wacu urusheho kuba mwinshi, tubone n'amafaranga atubutse.

Umugore ukunzwe mu rugo rwe aba anezerewe, ahabwa buri kimwe cyose ugasanga ibyishimo ni byose. Bityo n'abana ugasanga bafite uburere bwiza, barubaha buri wese kandi bakiga heza.

Imana iradukunda cyane, yaturemeye imbuto kugira ngo turusheho kugubwa neza, kuva kera Imana yaduteganyirije, imbuto muri edeni, ni nayo mpamvu, dushishikarizwa kuzirya cyane, kugirango ubuzima bwacu, bube bwiza.

Igihingwa cy'igitoki ni igihingwa cyiza cyane, uwakiriye ahorana akanyamuneza. Ni byiza ko tukirya, tukakigaburira n'abana bacu, nubwo abana badakunda igitoki cyane tukibatekere neza ku buryo bagikunda.

Ni byiza ko dukoresha avoka kenshi mungo z'iwacu, kugira ngo dukomeze kurushaho kugubwa neza kuko zirinda indwara tuzihe abana, tuzihe abakuru, kuko buri wese arazikeneye ku rugero rwe.

Ibigori ni byiza. Tujye tubikunda. Ni igihingwa ngandurarugo kuko tugikoramo ifu, tugakuramo imitsima ndetse n'igikoma. Ibi byose bikaba bibera Abanyarwanda neza cyane.

Ibibaya n'imisozi, ni byo byiza bitatse u Rwanda rwacu, tujye dutembera turebe, kuko Imana nayo idushishikariza kureba ibyaremwe, kugira ngo amaso yacu anezerwe, kuko nabyo ubwabyo birimo umuti.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa gikundwa cyane. Tukibungabunge tugihinga henshi, kandi kugira ngo aho tuzajya hose tuzajye tukibona ,tukihasanga kuko birakunzwe cyane.

Amatunda ya marakuca, ni meza cyane. Dukwiye kuyagaburira abana bacu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bagire igikuriro cyiza, ndetse bamenye n’ubwenge.

Igihingwa cya avoka, ni igihingwa cyiza cyane, tuzibungabunge kugira ngo tujye tuzibona ku bwinshi, kuko ziturinda indwara, tujye dushishikarira kuzihinga no mu mago iwacu. Bityo tugubwe neza mu mibiri yacu.

Imiteja ni imboga, zikomoka ku gihingwa cy'ibishyimbo, imboga ziryoha cyane, iyo uzikaranze zonyine, ugashiramo socitomate ziraryoha cyane, ku buryo wumva utazivaho, tujye duhinga ibishyimbo, dukuremo imiteja.

Igitoki ni ibyo kurya biryoha cyane, umwana muto arabirya akagubwa neza, umukuru arabirya akagubwa neza. Tujye twihata igitoki kuko ni cyiza, gitera mu nda kugubwa neza.

Ibisheke ni byiza kuko bibamo isukari karemano, tujye tubikoresha cyane tubirye aho gukoresha ziriya sukari zo mu nganda, tujye dukoresha igisheke kuko kifitemo isukari y'umwimerere.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, ibirayi bitekwa ku buryo bwinshi. Tubitekamo amafiriti, tukabiteka tubigeretse, tubitekamo mucyoma ndetse uburyo bwose tubitekamo ni yo mpamvu ibirayi ari byiza.

Mu Rwanda dukorera hamwe kugira ngo u Rwanda rwacu turuzamure, kuko bivugwa ko u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Muri rusange rero dukwiye kwitabira umuganda, tugafatanya na bagenzi bacu kugira duteze igihugu cyacu imbere.

Mu birayi byacu, tujye duteramo umuti wa buri munsi cyangwa se buri minsi itatu, kugira ngo iyi miti yice udukoko noneho ibirayi byacu bikure neza, umunsi ku wundi ntakibazo kibaye.

Ibiryo by'iwacu ntitukaburemo amafunguro arimo imboga n'imbuto, ndetse mu biryo turya bya buri munsi tujye twihatamo imboga cyane cyane kuko zirinda indwara.

Kora wigire muhinzi. Umuhinzi n'uworozi w'umwuga, agenda yishimye kuko azi yuko imbere gatoya agiye kuzabona amafaranga atubutse, ni byiza ko dukora cyane kugira ngo tubeho neza.

Bamaze kwiga uburyo guhingisha ifumbire mvaruganda ari byiza, abaturage basigaye bagira umusaruro ushimishije, basigaye bahinga ku mirongo, kandi bagashyiramo n'amafumbire.

Ibihingwa by'iwacu ni byiza iyo tubisaruye tugahita tubiteka biba birimo intungamubiri zose, nta cyagiye na kimwe ariko iyo tumaze igihe tubihunitse intungamubiri ziba zagabanutsemo.

voka ni igihingwa cyiza cyane. Ni byiza ko tuzirya kenshi. Tukazigaburira n'abana bacu, kuko zituma ubuzima bugenda neza. zirinda indwara. tujye tuzikoresha ku bwinshi.

Intama ni itungo ryiza cyane, rigira ubwoya buvamo ubudodo, ubwo budodo bukavamo imyambaro twambara mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukunde intama.

Igihingwa cy' ibigori ni igihingwa cyiza cyane cyane iyo bikiri bibisi biraryoha turabikunda kuko biba biryohereye, ndetse n' abana barabikunda cyane tujye tubibagurira.

Imyumbati iba myiza cyane, ijya kumera nk'ibijumba ariko ikagira akamaro gatandukanye. Imyumbati iyo yakuze neza iba miremire cyane ikagera kuri metero.

Karoto ni imboga nziza cyane, iyo tuziriye tugira ubuzima bwiza, tujye tuzikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dushishikarize n'abandi, dushishikarize abana bacu kuzikoresha, tuzikoreshe umunsi ku wundi kugira ngo turusheho kugubwa neza.

Igihingwa cy'ibijumba ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga kuko gikorwamo ibintu byinshi cyane, gikorwamo amandazi ndetse tugakoramo n'ibindi byinshi by'intungamubiri.

Ibigori ni ingirakamaro mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ni byiza ko tubikoresha kenshi kuko bivamo ibintu byinshi: bivamo amafu, bikavamo imbuto, impeke ndetse bikanavamo n'amavuta. Ni byiza kubikoresha kenshi.

Ibigori bibitswe biraryohaha cyane. Bitanga vimini kandi bikabamo n'isukari y'umwimerere, ni byiza rero gukoresha ibigori kenshi tukabigaburira n'abana bacu kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibigori biri mu murima byeze neza ubibwirwa n'uko bitangiye kuma, ndetse wajya kubisarura ugahita ubihunika udategereje kwanika. Ibigori biba byeze neza rwose, nta nubwo birusha uri kubisarura.

Twubake ibiraro bya kijyambere kugira ngo inkoko zacu zibeho neza, zibone umwuka mwinshi zihumeka. Uwo mwuka uzatuma zitarwaragurika kandi zizaduha amagi menshi, nituyagurisha tuzabonamo amafaranga atubutse.

Ingano zininitse ndetse zimeze, ni byiza kuzikoresha kuko usanga zituma ubwonko bwacu bugenda neza. ugasanga tubayeho neza kubera izo ngano. Tujye tuzikoresha kenshi kugira ngo twubake ubwonko bwacu

Igihingwa cy'igishyimbo kimera neza mu butaka, iyo ubutaka burimo umwuka uhagije, bukaba burimo amazi bukaba burimo n'ifumbire. Tujye dufumbira imirima yacu, kugira ngo twongere umusaruro w'ibiva muri iyo mirima.

Amajeri atuma tugira ubuzima bwiza tuje tuyarya kandi tuyarye mu buryo bwose, ari ukuyakaranga, kuyateka tuyatogosheje, tukayagerekaho ibirayi cyangwa se n'ibindi. Bizatuma ubuzima bwacu buba bwiza cyane.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cy'ikinyamisogwe, gituma imibiri y'abana ikura neza, ndetse n'abakuru bakagira ubuzima bwiza, ni yo mpamvu dukwiye kugikoresha igihe kinini mu mafunguro yacu ya buri munsi.

Tujye duhinga w'amasaka, ingano, imiceri kuko ibinyampeke ni byiza bituma ubwenge bufunguka, ubwonko bw'umwana bugakura neza. Kandi agakura mu bwenge no mu gihagararo tujye dukoresha impeke cyane cyane izo iziva mu mafu.

Soya tujye tuyikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko soya iryohera abantu kandi ikubaka umubiri wacu. Ni byiza gukoresha igihingwa cya soya kuko gitunga umubiri wacu neza.

igihingwa cya soya, muze tugisigasire tugihinge ku bwinshi, kuko soya zituma umubiri wiyubaka, kuzigaburira abana bacu, ndetse no kubatekera igikoma kirimo ifu ya soya, usanga kibaryoheye.

Amasaka ni igihingwa cyiza kigaragaza umuco nyarwanda. Dore ko no mukirangantego cy'Igihugu ishaka ririmo. Ni yo mpamvu dukwiye kuyagira cyane cyane tubungabunga umuco nyarwanda, kandi dukuramo igikoma kigirira abana bacu akamaro.

Amajyeri ya kijyambere, n'amajeri aryoha kurusha ariya asanzwe, kuko amajyeri asanzwe araryoha, ariko aya kijyambere yo akagira akarushyo. Ni byiza ko n'abanyarwanda dutera imbere tukazajya tugira nayo majyeri.

Ibigori byeze neza usanga byarumiye mu mirima, gusarura biratworohera cyane, kuko tubikura mu muririma duhita tubihunika. Naho iyo tubisaruye ari bibisi biratugora bikanabora.

Amasaka y'iwacu ni meza. Iyo twayasaruye turayanika, tuyahuhira tugakoramo amamera, ayo mamera nayo tukayakoramo umusururu. Ikigage ntikizajye kibura iwacu.

Igihingwa cy'ikigori ni igihingwa cyiza cyane, tugikuramo amafu, tugikuramo ibyo kurya, tugikuramo amafaranga, muze duhinge ibigori kugira ngo tugire umusaruro mwinshi, bityo tugire amafaranga ahagije.

Mu gihe dusaruye imyaka yacu, cyane cyane ibinyampeke tugomba kubihunika mu bigega byabugenewe, leta y'u rwanda yatekereje ku muturarwanda wese, kugirango ateze imbere ubuhinzi bwe, ndetse buzajye bumuha ibyangombwa nkenerwa byose.

Ibigori ni ibihingwa ngandurarugo, bitanga amafu avamo imitsima, akavamo igikoma, kubirya ari impungure na byo ni akarushyo, kandi iyo bikiri bibisi turabyotsa tukabirya biryoshye, kandi ibigori bivamo amavuta.

Ibishyimbo ni byiza cyane tubikunde, tubihinge iwacu, kugira ngo tutazajya tubibura mu ifunguro ryacu rya buri munsi ,tubirye ku bwinshi kugira ngo tugire amagara mazima.

Ibigori bigira amoko menshi ndetse n'amabara atandukanye, rero ibigori byitwa mayinyinya ni ibigori biryoha cyane, n'icyokeje urakirya ukumva gifite icanga, ndetse kurusha na iburide.

Igihingwa cya soya tugihinga mu misozi ndetse tukagihinga no mu bibaya, icy'ingenzi ni uko twacyitaho, tukakibagara neza, tukacyuhira, twarangiza tugategereza ko cyera, ubundi tukagisarura, tukagisarurana isuku ihagije.

Amajeri araryoha cyane, ni igihingwa ngandurarugo, agasimbura ibishyimbo, ariko ko akaba abirusha kuryoha, iyo uyagaburiye abana baryana apeti, ndetse ukabona babishishikariye.

Soya ziryosha igikoma, ikindi soya iri mu byubaka umubiri muze dushishikarize abaturarwanda bakoresha ihingwa cya soya, kugira abana bakure neza, abana bamenye ubwenge mu ishuri ndetse no mu mamayira yose banyuramo bizagenda bibafasha.

Ibihwagari bibamo amavuta aryoshye cyane, kandi ayo mavuta aravura, nimuze rero tubikoreshe cyane kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abacu, ni byiza.

Imbuto n'impeke tubihinga neza, dukwiye kubihinga ku murongo kugira ngo tuzagire umusaruro urambye, cyangwa se utubutse, bityo biduhe amafaranga atubutse azatugirire akamaro.

Nimucyo duhinge kijyambere, bizatuma ubukungu bw'igihugu cyacu cy'u rwanda ndetse n'ingo zacu muri rusange biteza imbere. Ibyo bizatuma turya neza tudasaba bagenzi bacu.

Ibigori ni byiza iyo uzi kubiteka neza. Iyo ubitekanye ubute n'ubunebwe ntizishye neza, zishobora kugutera igifu. Ni yo mpamvu dushishikarizwa kuziteka neza zigasha neza, ubundi zikaba ziryoshye.

Ubunyobwa ni bwiza buryohera benshi, ni yo mpamvu ari bwiza kubugura kenshi, kuko butekwa mu biryo by'ubwoko bwinshi. Ni byiza kubugira iwacu mu rugo.

Igihingwa cy'amasaka ni igihingwa kidushimisha iyo cyeze neza, turashishikarizwa gushyira amafumbire mu mirima kugira ngo umusaruro uzatubuke, ariko amasaka atari yera neza ntabwo twemerewe kuyasarura.

Igihingwa cy'imitija ni cyiza, kuko kiduha amaraso menshi, kikaduha vitamini nyinshi cyane cyane ko gifite ibara ry'icyatsi kibisi, mucyo rero tuzihate tuzirye ku bwinshi.

Mu bunyobwa habamo intungamubiri nyinshi zitera abana igikuriro ni yo mpamvu nshishikariza buri wese gukunda igihingwa cy'ubunyobwa, tujye tubukoresha kenshi mu mafunguro yacu ya buri munsi.

Ibigori ni byiza cyane, tubikuramo amafi atandukanye, tubikuramo amafu tugatekamo imitsima, tugatekamo igikoma ni byiza, twitabire guhinga igihingwa cy'ibigori, kizajya kiduteza imbere.

Twihangire imirimo tworora kijyambere, bizadufasha kuzamura ubukungu bw'ingo zacu, ndetse n'ubw'abanyarwanda bose muri rusange, ubworozi bw'ingurube buteza imbere ubukoze ndetse n'igihugu cyose muri rusange.

Inkoko ni itungo rigufi, ryiza, kandi ritagoye kororoka. Tujye tuzororera iwacu tuzigaburire neza, kandi tuzihe ibiryo bizikwiriye, kugira ngo ziduhe amagi atubutse.

Inkoko ni itungo ryo mu rugo rishimishije kuko riduha amagi, inyama, amafaranga ifumbire, tujye tuzigaburira tuziteho tuzibungabunge kugira ngo nazo ziduhe umusaruro utubutse kandi ushimishije.

Amatungo yacu tuyereke abaganga ba bayashinzwe kugira ngo agire ubuzima bwiza, bityo atwungure amafaranga atubutse, binatume dukomeza kubikemura mu ngo zacu, ndetse n'igihugu cyacu.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane, kuko inka ziduha amata, umukamo wazo ushimishije, ugatuma tugera ku iterambere rirambye, tuzibungabunge, tuzahirire, tuzihe ibyiza byinshi.

Inzu y'inyana ni uruhongore, inzu y'uruhongore, ni ikiraro, iyo inka ibyaye, yonsa akanyana kayo, yarangiza konsa kagasubira mu mu ruhongore, nyuma bagakama iyo nka.

Ubworozi bw'ingurube abenshi barabuzi cyane, kuber ko ari ubworozi butanga amafaranga, turashishikariza abanyarwanda korora ingurube kuko ziduha amafaranga atubutse.

Imbwa zigirira abantu benshi akamaro, kandi zikaba zibafasha mu bintu byinshi, ndetse zifasha na polisi mu bikorwa byayo bya buri munsi, ni byiza ko tuzikingiza kugira ngo zitangiriza abaturage.

Ubwo nari njyanye ihene ku isoko, nagendaga nyagaburira ubwatsi bwiza. Umuntu araza aranseka ati: "Mbese ko uri kubyibushya ihene ku munsi w'isoko"?

Inyana ivuye mu ruhongore rwazo, usanga yabuze imbyeyi yayo, ugasanga yagize ibibazo, soje tumenya aho inyana zasohokeye n'aho zagiye, kugira ngo ibisimba by'ishyamba bikorwe ihungabanye.

Tworore inkoko kuko ziduha amagi, zikaduha inyama, zikaduha ifumbire, zikaduha amafaranga ikindi ukena ufite itungo rikakugoboka, muze banyarwanda duterane inkunga duhinge tworore.

Inka ndazikunda cyane. Ziifite akamaro kenshi : ziduha amata, ziduha inyama, ziduha amafaranga, kandi ziduhana ifumbire. Inka ni nziza cyane . ubworozi bw'inka tubukunde ,tubukore iwacu, tuzamure ubukungu bw'igihugu cyacu.

Tujye twumvira inama z'abatuyobora, duhinge kijyambere, tworore ndetse twororere mu biraro, tuzajye inka ku gasozi twororere inka zacu mu biraro byo mu rugo, tuzahirire tuzigaburire mu rugo bizatuma zibaho neza.

Inkwavu zidufitiye akamaro kanini, ziduha inyama, ziduha amafaranga, ziduha ifumbire, ndetse n'impu zazo zirakoreshwa mu gukora ibikoresho bitandukanye, twite ku bworozi bwazo kuko ni ingirakamaro.

Aha dusangamo urugondo urwirungu ,tugasangamo gitare, tugasangamo inyambo, tugasangamo inka z'ubwoko bwinshi ,nimuze rero tubungabunge ubworozi bw'inka.

Urukwavu turubungabunge turufate neza kuko ruduha ibintu byinshi, rutugeza kuri byinshi, ruduha inyama, rukaduha amafaranga, ndetse n'impu zazo zikoreshwa mu bintu byinshi, ni byiza ko tuzibungabunga.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza cyane, ni bwiza tugomba kubukunda kuko ziduha amagi, zikaduha amafaranga, ziduhaga inyama, kandi ubworozi bw'inkoko bwakenuye benshi, kuko ukena ufite itungo rikakugoboka.

Intama ni amatungo meza cyane, intama zigira inyama ziryoshye, zikagira ubwoya bukoreshwa mu gukora ubudodo, zigatanga ifumbire, kandi intama zitanga imwe mutunzi.

Amatungo maremare yomurugo, inka inyana zazo usanga zibereye ijisho kandi ziduha ibyiza byinshi nk'amata, kandi amata, arakundwa cyane kuka amata atera igikuriro.

Ihene ni nziza, tuzorore iwacu, kandi tuge tuzigurisha mu masoko, cyakora tuge twirinda kuzibyibushya ku munsi w'isoko, tuge tuzigaburira hakiri kare, kugira ngo zitange umusaruro utubutse.

Tuwusigasire kugira ngo tuzajye twinjiza amafaranga menshi aturutse kuri zo, kuko zunguka cyane niyo mpamvu dukwiye kuzishakira ibyangombwa byose ndetse tukanazivuza.

Ntibavuga umwana w'inka bavuga inyana. Ntibavuga inzu y'inka, bavuga ikiraro. Ntibavuga ngo inka igiye kurisha, bavuga kwahuka. Ntibavuga ngo kujya kunywa amazi kw'inka, bavuga gushoka.

Inyamaswa zo mu gasozi dukwiye kuzifumbira kuko tuba tutazi indwara zifite, bityo tujye tuzirinda cyane ko zishobora ku twadurira indwara tutazi tutanashobora kuyivuza.

Inyamaswa zo mu gasozi tujye tuzitondera kuko ziba zishobora kwangiza ubuzima bwacu. Tujye tugenda tureba hirya no hino, kugira ngo zitaza kutugirira nabi. Ni byiza ko tuzirinda cyane.

Ingagi ni nziza cyane, nizo nyamaswa zikunda gusurwa cyane, kuko zikunda kuzana bamukerarugendo, bakatuzanira amadovize tukishima, tukagubwa neza mu gihugu cyacu cy'urwanda.

Inyoni ziraririmba, inka zirabira, imisambi irahiga, abantu baravuga, ingwe zirahara inkongo zigakorora, intama zigatama ihene zigahebeba yewe ni byinshi.

Igisiga cy'agaca ni igisiga kinini cyane gihiga udushwi aho turi hose. Hakurijeho n'umugani uvuga ngo: "Kubaho k'umushwi si impuhwe z'agaca".

Inuma ni ikimenyetso cy'amahoro, Inuma ni ikimenyetso cya mwuka wera, Inuma umuntu wese aho ayibonye ayibonamo ibyiza. inuma ni inyoni nziza cyane.

Usanga inyoni inyamaswa z'inyoni ari inyamaswa nziza cyane zibereye ijisho, Imana yaziha amabara atandukanye usanga kuyareba aba ashimishije.

Ibisimba byo mu ishyamba tugomba kubyitondera cyane, kuko ni'ibisimba biba bifite ubumara muri byo, kuko iyo tutagiye neza biraturuma, kandi bikaba bifite ubumara, bikaba bishobora kwangiriza imibiri yacu.

Inyamaswa z'ishyamba kuzikoraho ntabwo byemewe kuko zishobora kuduteza indwara, kandi kuzivuza bikatugora. Niyo mpamvu dukwiye kujya mu ishyamba turi kumwe n'abashinzwe kuyobora abantu mu mashyamba.

Umuyongongo ni inyoni irangwa n'urunwa rurerure, ikindi inyoni y'uruyongoyongo ikunda gutungwa n'amafi kuko izi kuroba cyane, si byiza rero ko dutera amabuye uruyongoyongo cangwa n'izindi nyoni kuko ni ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda.

Mubidukikije habamo n'inyamaswa, tuzibungabunge mu mapariki yacu, kugira ngo turusheho gusurwa na ba mukerarugendo batuzaniye amafaranga y'amahanga.

Ibishuhe ni amatungo meza cyane . Ni byiza bibereye ijisho kandi bitanga amafaranga yo mu mahanga, kuko bikurura ba mukerarugendo baza kubireba kuko bibereye ijisho.

Urwumvu ni igisimba kibi cyane, iyo rukurumye ugira ibibazo byinshi, tujye twirinda ibihuru kuko biba birimo inzumvu nyinshi, bizaturinda akaga ko guhura nizo nzumvu.

Mu bidukikije dufitemo n'inyoni, inyoni zirimo amoko menshi hari inini, hari ibisiga, hari intoya kandi zose ni ko zikurura ba mukerarugendo kuko zishimisha uzirebye wese.

Inyoni ni inyamaswa nziza ibereye ijisho, inyoni zigira amabara atandukanye, niyo mpamvu usanga ba mukerarugendo, baza mu gihugu cy'u Rwanda kuzisura bagasiga amadovize.